Umugore wambaye umupira usa ubururu n'ijipo irimo amabara y'ubururu n'umuhondo, yambaye agapfukamunwa gakozwe mu gitenge, afite umusatsi wa natirere, arimo arakaraba intoki n'isabune, ndetse agakarabya n'umwana we wambaye imyenda ya kake, amutoza kugira isuku.

Ahantu hanini cyane harimo amazu menshi ndetse n'ibindi bintu byubakishije sima bimeze nkaho byaba ari ibiraro cyangwa se ibindi bintu bikora umuriro w'amashanyarazi, ni byinshi, hejuru hariho ibyuma ndetse ku mpande harimo umucaca.

Abantu benshi, abenshi muri bo bambaye imipira isa umukara, bari ahantu hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, bari baje kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bose bafite ibintu byinshi bakuyemo kandi bagiye gukurikiza, kandi bakaba bagiye no gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Icyapa gifite ishusho y'umweruru, hagati harimo amagambo yandikishije ibara rijya gusa nk'ubururu bwijimye, harimo inyuguti ya M, na H, na U, na B, hejuru yaho hari ibishushanyo biguye bifite ibintu by'ibizeru bihujwe n'uturongo.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite amenyo asa umweru n'ishinya isa umutuku, arimo araseka cyane, ntabwo afite ubwanwa bwinshi kubera ko abwogosha, afite ibitsike byinshi, inyuma ye ku gikuta hari ibara risa umuhondo.

Mu cyumba kinini cyo kwa muganga, harimo uburiri baryamishaho umurwayi busasishijweho ishuka ry'umweru, n'imisego ifite imyenda y'umweru, imisego ni ibiri kugira ngo umurwayi igihe ashaka kwegama ajye yegama, hejuru hariho ibikoresho bagiye gukoresha, ndetse muri icyo cyumba harimo n'izindi mashini zikoreshwa bari gupima ngo bamenye uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Umugabo wambaye umupira usa shokora, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umweru, yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo, ari muri siporo, bigaragara ko yamenye neza akamaro ko gukora siporo, bityo yiha gahunda yo kujya azikora kenshi gashoboka.